Ubuvuzi budufitiye akamaro kanini, aho usanga abantu barize kuvura bamara kwiga kuvura bakatuvura indwara za zindi bashobora kutwohereza ngo tujye kuzivuza hanze ibyo byatubereye byiza cyane, aho usanga mu gihugu hari abavuzi bakaze cyane bazi kuvura indwara zikomeye, ugasanga umuntu yaravuze ati reka nishingire kirinike, ugasanga afite ibitaro biri pirive tukajya kugurirayo ibinini bataduhenze.

Ubuzima ni bwiza cyane abo budufatira runini ugasanga abana rwose bari kwiga muri sogonderi, bamara kugera muri sogondere buri wese akamenya icyo aziga n'icyo azaba atangira akamenya ko azaba umuganga agera muri sogonderi, yarangiza sogonderi akajya muri kaminuza akiga ubuganga ,akazajya avura abantu, tugakomeza tukabaho neza akishingira na farumasi abantu bajye baguriramo imiti biborohyee batiriwe barajya ngo kwa muganga.

umuco nyarwanda wo hambere umuntu yarwaraga indwara bakaba bamurangira umuti nyarwanda w'ibyatsi. Akaba azi ngo icyo cyatsi nakinywa arakira indwara runaka. Warwara ibicurane bakaba baguha icyatsi gitandukanye, warwara inzoka zo mu nda bakaba baguha nk'umuharavumba, ibyo byabaga byiza cyane kuko n'umuti warakizaga, ariko ubu ngubu umuntu asigaye ararwara akajya ku bitaro, akivurisha ibinini. Na byo ni byiza cyane.

Mu muco nyarwanda wo hambere, umuntu yararwaraga bakajya ku muvurisha ibyatsi, ugasanga ibyatsi biramuvuye yarakize, ariko ugasanga hari n'ibindi byatsi bamuvurishije bikaba byamutera uburwayi, ariko hambere ho bavurishaga ibyatsi, na n'ubu hari akatsi kavura kitwa kapusinine, ugasanga umuntu arakanyoye karamuvuye arakize, mbere bivurishaga ibyatsi ibyo bivurishaga byarabavuraga.

Umuti gakondo wahozeho kera aho abantu bakoreshaga ibyatsi bivura ugasanga imiharavumba n'imibirizi zivura indwara zitandukanye, ugasanga niba warwayi ibicurane bidakira wivurishije uwo muti, warwaye ubutembwe wivurishije muti, naho burya ufasha abantu kuba bakira indwara zitandukanye, baba bakuze bagakoresha n'imiti bya kinyarwanda bikagufasha gukira vuba.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane aho wasangaga mbere hambere k'ubw' abami bivurishaga imiti ya kinyarwanda, aho wasangaga ibitaro biri kure cyane bakivurisha imiti ya kinyarwanda na yo ikabafasha bagakira, ariko ubu ngubu haje imiti ya kizungu ni ukwivurisha imiti ya kizungu byakwanga wajya no mu bya kinyarwanda na byo bigakunda, ibyo byose birakora cyane kandi ni byiza cyane.

Umuco gakondo ni mwiza cyane, aho wasangaga umuntu wamuvurishije icyatsi runaka bamuroze, ntabwo ibyo byasabaga kujyaja kwa muganga, byasabaga gukoresha umuti gakondo, ugasanga nk'icatsi cyameze ahantu nko kwibuye kiboneye ari cyiza kandi kirimo umuti, bakakivurisha umuntu warwaye ubwo burwayi butandukanye. Ibyo biba byizaza cyane kuko uwo muti ari umuti gakondo, biradufasha nk'ibyatsi bidufasha cyane mu buzima bwacu.

Imiti gakondo kuva kera yajyaga ikoreshwa, aho wasangaga ibyatsi ari byo byavuraga abantu, iterambere ritaraza ngo bajye birukira ku bitaro, ugasanga nk'ikibonobono cyavura nk'indwara runaka nk'inkorora se, ubwo uwo muntu akagihamura yamara kugihamura akakinwa, bityo akabasha gukira atiriwe ajya kwa muganga, ibyo bikadufasha na byo kubaho neza.